Ndabona ikirango cy'u Rwanda, ari abapapa bameze nk'abari mu nama, umupapa umwe ari kubigisha, hari amazi, mashine n'agasanduku k'ibitekerezo ku ruhande.

Abaturage, uregwa, n'abayobozi ba gacaca baje kumva ibyo umwanzuro wo muri gacaca w'uyu muntu baje kumusomera ibyabaye muri gacaca imyanzuro bafashwe.